Urutonde rwakusanyijwe rw'amahame y'intore ndetse na kirazira zigomba kuranga intore. Intore zigomba gukurikiza kugira ngo zikomeze ubutore bwazo.

Ibyicungo cyagwa se iminyenga y'abana bato, ba garidiyeni bakoresha bicunga cyangwa se bishimisha, bidagadura, kugira ngo babashe na bo kugira imikino ya bo kandi ibanogeye, iri ku rwego rwa bo.

Busheri, cyangwa se ibagiro rimeze neza, rikorerwa ahantu heza, ku buryo ritunganya inyama ku buryo bumeze neza.

Aha akaba ari ikigo gishinzwe kwakira abantu kugira ngo kibahe serivisi. Aho umuturage akigana ndetse ubona ko hariho indabyo, amapave ndetse n'agatebe k'abashyitsi cyangwa se abakiriya baje babagana.

Ikigo cy'amashuri giherereye mu murenge wa Kinigi, ndetse akaba ari ikigo kigwaho cya pirimeri kigwaho n'abana batoya, hariho ibigega, hariho ndetse n'icyapa kigaragaza ko ari ishuri, hirya hanitse amataburiye y'abarimu.

Abatekinisiye n'ababaji barimo kubaza ibikoresho byitwa intebe, aho babikorera bahita mu ibarizo cyangwa se mu gakiriro, bivuze ko bahajyana imbaho bakaziha forumire z'ikintu bashaka, kandi kikagirira akamaro uwakijyanye ndetse n'uwagikoze.

Abana barimo kwigira hamwe, basobanurirwa ku masomo runaka, kugira nabo mu hazaza bazabe bafasha abaturage ibyo bifuza.

Ihuriro ry'abatekinisiye bahuriye hamwe barimo guterateranya ibyuma bigiye bitandukanye, ndetse iby'amazi.

Ihuriro ry'abantu benshi bahuriye hamwe. Bafite igikorwa cyo kwisukura cyangwa se cyo gukora amasuku yo ku mutwe. Ubona ko ari salo ikora gusuka imisatsi, kuyitunganya, kugukorera neza mu musatsi.

Urujya n'uruza rw'abaganga benshi bahuriye hamwe mu gikorwa cyo gukingira inka inkingo zagenewe kuzirinda indwara ndetse no kubungabunga ubuzima bwazo muri rusange.

Urujya n'uruza rw'abana bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kaki. Mubigaragara, barimo gukora ikizamini gisoza icyiciro cy'amashuri runaka.

Urujya n'uruza rw'abakobwa rw'inkumi bahuriye hamwe, ubona ko bari mu gikorwa cyo gukoresha inzara ndetse bisukura, kugira ngo babashe kugira inzara zisize verine.

Ihuriro ry'abanyeshuri bateraniye hamwe barimo gukoresha ibikorwa by'ikoranabuhanga, harimo imashini za HP, ubonako biyungura ubumenyi ikoranabuhanga.

Ihuriro ry'abantu urujya n'uruza bahuriye hamwe, bambaye impuzankano barimo gukanika ,cyangwa se gutekinika imashini, bigaragara ko yagize ikibazo runaka, barimo kwiyihuza kugira ngo yongere ikoreshwe.